Na adivatayizimeti foru ishuwaresi purodakiti, kuguha ubwishingizi mu gihe ugeze mu za bukuru ukaba utekanye muri icyo gihe kubera ko uba udakora ukaba warizigamiye amafaranga bazagutunga muri cya gihe uba uri mu zabukuru.

Ni ukwamamaza ibikorwa by'ubwishingizi, ubwishingizi butandukanye; kwishingira ikintu runaka, imodoka cyangwa se inzu n'ibindi.

Ni banki apusi yo kuyishyuraho ikazana komfamishoni resebuti yerekana ko wishyuye ikajyaho amafaranga na fizi na toto kositi.

Ni iduka butike icuruza ibikapu bikozwe mu bitenge kandi bikozwe n'abanyarwanda, bya mede in Rwanda.

Botike icuruza imyenda cyangwa se sitowa y'imyenda amakanzu, ya mede ini Rwanda ari mu mabara atandukanye n'ibindi bikore bindi bijyanye n'ubwiza.

Ni butike icuruza amashati atandukanye, y'ubwoko butandukanye, ndetse iyo butike, ikaba igurisha ayo mashati mu mabara yose atandukanye, bitewe n'ibara ukunze, cyangwa se ushaka, cyangwa se bitewe n'uruhu rwawe.

Abakozi b'imodoka bashobora kuyikora aho ari ikintu cyapfuye cyangwa se ari amasuku yayo cyangwa ikibazo imodoka yabo ifite cyose m'uburyo bwa tekenike.

Ni ahantu hakorera cyangwa se hacururizwa ibintu byose bikorwa n'uruganda rw'Inyange, kubera ko hari ikirango cy'Inyange hari ndetse n'amazi, ni ahantu hacururizwa ibintu ndangamurage cyangwa se ibintu bikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda.

N'icyapa kigaragaza ahantu bakorera uko ibiciro bibiri bigendanda uzanye amafaranga y'u Rwanda kuyahinduramo cyangwa se niba ufite amafaranga y'u Rwanda uko wayacuruzaho cyangwa se uko wayaguraho igiciro wayaguraho.

Karensi ekisicangi kiyosike andi foreni biro, ni biro ishinzwe kuvunjira amafaranga ukayashyira mu manyarwanda. Cyangwa ukayashyira mu mayeroro, Yuesi, Suwisi, Ostireriya ariko batagucajiga amafaranga ya komisiyo. Babikorera ubuntu.

Ni biro ya egisicenge karensi iyo umuntu akeneye, kuba yavunjisha mu madorari amayero, ndetse n'ayandi ahantu, ajya kugira ngo bamuhindurire akaba yajyana munyarwanda cyangwa se andi y'amadolari bakamuhinduramo amanyarwanda.

Fanica abantu bakora ibikoresho bitandukanye byo gukora amataburo sitande ya televiziyo, bakaba badizayininga iyo sitande yose. Ndetse bakabikora ku buryo bubereye ijisho, biba bisa neza.

Gura ibikoresho byo mu nzu muri saro, intebe ameza n'utubati, ndetse n'ibindi umuntu ashobora gushyira muri saro y'umuntu ikongera ubwiza bwa saro.

Ni hotel cyangwa ahantu nyaburanga abantu basohokera, inshuti, abavandimwe, bakaza kwinjoyinga, kunezerwa ariko akaba nyine ari ahantu hazanira buri muntu wese ibyishimo yishimira, kuba yajya.

Hoteri ahantu nyaburanga umuntu ashobora gusohokera hari pisine, hari ibintu nyaburanga bitandukanye, ibyo kurya, aho kurara, ni ahantu nyine wajya kuhinjoyingira.

Ni banki ofu Kigali, uburyo ishobora kuguhamo inguzanyo watanze ingwate, ikakubwira uburyo ushobora kubona iyo nguzanyo cyangwa wenda atari ngombwa iyo ngwate ndetse n'uburyo waguraho amatike, uburyo wabona kadi ya bike arena.

Ni fayinansho kampani yitwa umutanguha ubu yafunguye buranshe kicukiro ndetse iyo fayinance ikaba itanga amafaranga n'inguzanyo cyangwa se ukaba wabitsa.

Ni isoko ricuruza ibintu bitandukanye ku giciro gitoya imboga cyane cyane imboga nyinshi, inyanya, kokombure, amashu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye puwavuro.

Isoko ricuruza imboga n'imbuto muri rusange, ndetse n'ibinyampeke, isoko ririmo ubwoko butandukanye bw'ibiribwa.

Ni isoko rigurishirizwamo ibiribwa, imboga, ibitoki, ibirirwa by'amoko yose, hari n'abantu bari kubicuruza hari n'abaguzi.

Amasoko acuruza ibintu bitandukanye by'imboga ndetse n'imbuto, ndetse n'amafu n'ibishyimbo; nyine ni isoko ricuruza ibintu bitandukanye byinshi.

Amasoko acuruza ibintu bitandukanye ndetse ibyo bintu bikaba biva mu baturage, bakaba babigemurira mu isoko, ku buryo umuntu wese ashobora kubikora, ku giciro cyo hasi akaba yabona igicuruzwa cyangwa se imyumbati.

N'isoko ririmo abantu benshi baje kugura ndetse n'abandi bacuruje ibiribwa bitandukanye ibirayi cyane ibitoki.

Ni kiyosike ya mobayilo mani, ifasha umuntu kuba yabitsa cyangwa se akabikuza amafaranga, akaba yayagendana ari kashe.

Ni onorayine shopingi paritifomo yitwa vuba vuba ikora na derivari, ikaderivaringa ibintu uba wodarinze kuri iyo paritifomo, bakabikugezaho ahantu hose uba uri kandi vuba mu gihe kitari kinini.

Onurayini shopingi, puratifomu ifasha abantu kuba babona ibicuruzwa cyangwa se ibiryo mu gihe gitoya, kandi bakabiterivaga mu buryo bwizewe kandi bikakugiraho vuba vuba, nk'iyi kampani yitwa roshi fuduzi

Online shopping yitwa vuba vuba ushobora kujya ku mbuga zabo ukareba ibyo baba bacuruza noneho wowe ukodaringa cyangwa se ukishyura barangiza bakabigusangisha bitewe n'ahantu uba utuye baba bafite abagent babakorera bikakugeraho vuba.

Ni onulayini shopingi ku kintu runaka, noneho bagakora derivari bakabikuzanira bitewe n'agace uherereyemo cyangwa se ahantu uri.

Riyo esitete iri kwamamaza ahantu umuntu yasohokera, yagura, hari nka resitaran cyangwa yashyirara nka hoteri, ku buryo abantu bajya bahasohokera.

Ni inzu yo kugurwa muri Kabeza mu mujyi wa Kigali miliyoni mirongo irindwi n'eshanu kandi iyo nzu nini ikaba iri kwamamazwa na riyo esitete savise.

Ni riyo esiteti savisi, iri kwamamaza inzu, ushobora kubona ku madorari igihumbi n'ijana ku kwezi, muri Kigali Rwanda kandi ari ahantu heza kuri meyini rodi.

Serivisi y'uburyo bagurisha ibintu babyamamaza bakaba baguhuza bagahuza umuguzi n'umugurisha bakaza kugura icyo gikoresho ariko aribo bacyamamaje.

Riyo esiteti savisi iramamaza igikoni kiri mu buryo bwa kijyambere harimo amamashini, harimo gaze harimo mikoro onde, harimo ibikoresho byose byo mu buryo buteye imbere.

Ni inzu yumuntu yubatse mu buryo bwa kijyambere, ku buryo basiga ahantu imodoka zirenze imwe ebyiri zishobora guparika ari mu rugo rw'umuntu.

Iyi ni supamaketi icuruza ibintu bitandukanye bikorerwa mu nganda, harimo mayoneze, kecapu, ubwoko bwinshi butandukanye, muri iyo supamaketi kandi umuntu akaba iri ku giciro gitoya cyo hasi.

Uburyo supamaketi zikora fagitire zikoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, ukajya uzana ibintu byose wahisemo uributahane, cyangwa uribugure. Akajya akoresha imashini bikirikodinga, noneho akazakuguha fagitire y'ibyo bintu byose.

Ni supa maketi ikora mu buryo bwa arimantasiyo, igira ibintu byinshi imigati, ibintu ndetse n'ubindi wabona, muri arimantasiyo, iyi supa maketi ni byo icuruza harimo n'iby'Inyange byinshi.